Urupapuro ruri mu ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru. Rwo mu isosiyete y'itumanaho rwanditseho ibiciro bishya byumukiriya. Abana bambaye umwenda wifashishwa mu gutanga serivisi, yiyo sosiyete y'itumanaho.

Abakozi b'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda bambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, umukara ndetse inyuma yabo hari icyapa cyanditseho momo, ni bane harimo umwe uri guhabwa ikemezo k'ishimwe.

Akazu kubakishijwe ibyuma kari mu ibara ry'umutuku, kandiditseho ibirango bya kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, gateretse ahantu ku nzira, inyuma yako hari inyubako isize irangi ry'umuhondo.

Inyubako yubatswe mu buryo bugeretse yororerwamo inkoko zitandukanye zirimo amasake, inkoko kazizi zitera amagi ziri ahantu mu nyubako yubakishije amatafari ahiye zisize amarange y'umweru.

Abantu bambaye ibirango by'igihugu ndetse n'umusaza uri guhabwa icyemezo cy'ishimwe, wambaye ikote ry'umutuku n'umupira w'ubururu, inyuma hicaye abaturage bari mu itente.

Abakozi ba banki ndetse n'amakoperative bafite mudasobwa ndetse baricaye bari gukora inshingano zabo za buri munsi mu kazi kabo.

Ibikorwa remezo harimo inyubako z'amabanki ndetse n'amakoperative, imihanda ndetse n'abaturage baturiye ibyo bikorwa remezo baje kwaka serivisi.

Amagaziye atanu ari mu mabara atandukanye, arimo amacupa abereye aho, yamaze gukoreshwa ,ateretse hasi yifashishwa mu gutanga ibyo kunywa, mu mahoteli ndetse n'utubari.

Iduka ririmo ibikoresho byifashishwa mu isuku bizwi ku rupapuro rw'isuku, bifunze neza mu gikoresho cyabugenewe, biteretse ahantu habugenewe bibikwa mu iduka.

Urupapuro r'isuku cyangwa igikoresho gikunze gukoreshwa cyane cyane n'abari n'abategarugori, gipfunyitse neza mu gikoresho cyabugenewe gikunze kwifashishwa cyane mu gihe bagiye mu mihango y'abagore.

Ibikorwaremezo birimo amazu y'ubucuruzi, imihanda, abantu batandukanye n'ibicuruzwa, n'ibyapa bimenyesha icyo ayo mazu akorerwamo ndetse n'ibicuruzwa acuruza.

Umucuruzi uri mu iduka ririmo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu bwubatsi, ndetse no gutanga ingufu z'amashanyarazi harimo ingofero, ibirahuri, imipanga, ndetse n'ibikoresho birimo nk'imifuka.

Ibyapa, ibicuruzwa, harimo ibyifashishwa mu nzu, amagare, ibikoresho byifashishwa mu guteka, abantu ndetse n'abacuruzi bacuruza bimwe mu bya sosiyete y'itumanaho ndetse n'imihanda.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo umucuruzi ndetse n'ibicuruzwa birimo amasabune, imifuka ndetse n'ibyo kurya bitandukanye.

Iduka ry'ubucuruzi, harimo ibicuruzwa bitandukanye, ibyo kunywa bifunze neza, amavuta yo kwisiga, radiyo, amasahani ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga.

Inzu y'ubucuruzi bwa Resitora irimo ibikoresho byifashishwa nka telemusi, indobo ndetse bashyira ibikoresho bifashisha mu bucuruzi bwabo.

Umucuruzi w'imbuto zitandukanye harimo imyembe, ibinyomoro ndetse n'imbuto zindi, ari mu baturage ari kubagurisha. Iruhande rwe hari ibikoresho by'isuku intebe zo kwicaraho.

amacupa afunze arimo imiti, mu mabara atandukanye ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu kubika, gisa neza mu ibara ryacyo ry'umweru, giteretse ahantu habugenewe.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imifuka ifunze neza y'ibara ry'umuhondo, icyatsi, amakarito, amavuta, abacuruzi ndetse n'abakiriya baje guhaha.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'imyeru ndetse bambaye n'ingofero itukura, inyuma yabo hicaye abantu benshi bari mu nyubako ifite amadirishya atambutsa urumuri, bafite icyapa cyanditse Gerayo Amahoro.

Abaturage batandukanye harimo abambaye imyenda y'icyatsi, amakanzu y'imyeru, bari mu rusengero rurimo umusaraba, ishusho ya yesu ndetse yubakiye mu mabara y'umuhondo uhishije biteguye gusenga.

Ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa biteretse kumeza, biriho ibiyiko n'amasahani hakurya yaho hari ubusitani burimo; ibimera, imisozi, ndetse n'amazu y'abaturage.

Ibyokurya birimo inyama y'inkoko isa neza isize ibirungo, isosi iri mu isafuriya ndetse n'inyanya zisize ziteretse ahabugenewe mu gikoni.

Ameza menshi atandukanye ndetse n'intebe, ku meza hateretse amasahane, ibikombe by'ibirahure, ahantu heza cyane mu ruganiriro rwagutse, muri hotel cyangwa se resitora.

Abayobozi bahagaze bambaye amakote, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho C na B, mu nyubako isize irangi ry'umuhondo, yubatse neza na sima ndetse bambaye n'imyenda yera n'umukara.

Inyubako yubatswe mu buryo bugeretse, imodoka ndetse n'ibyuma biyikikije, hasi hubakiye n'amatafari ahiye ndetse n'ibiti birebire.

Ibikorwa remezo bya hoteli na resitora hari ubwogero, ndetse n'intebe hatwikiriye umutaka impande zawo hari ubusitani n'ibiti birebire bizana umuyaga mwiza.

Icyumba kigali giteguye neza kirimo ameza, intebe, amasahani ndetse n'abakozi bashinzwe kwakira ababagana kugirango babahe serivisi zijyanye na resitora ndetse n'amahoteli.

Icyumba kigari cyo muri hoteri, kirimo ameza n'intebe ziri mu ibara ry'umutuku, ku meza hateguye ibirahuri ndetse ku bikuta by'inyubako hari imitako myiza mu mabara y'umukara umuhondo ndetse n'umweru.

Abakozi babiri bashinzwe gutanga serivise kubagana muri hoteri ndetse na resitora, bambaye impuzankano ndetse n'agapfukamunwa, bari aho basanzwe bakorera.

Icyumba cyo muri Hotel cyangwa se Resitora, harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka televiziyo icanye irimo amashusho, indorerwamo ndetse n'intebe iri mu ibara ritukura.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari mu isoko, umusore uri guhaha imbuto zitandukanye ziri mu bikoresho bitandukanye, aratora akareba umwimerere cyangwa se ubwiza bw'imbuto ashaka guhaha.

Ibikorwa remezo, birimo umuhanda, harimo moto ndetse n'umuntu uyitwaye, afite undi atwaye, bambaye ingofero z'ubwirinzi, bari kugenda ndetse hakurya y'umuhanda hari ibiti biteye byinshi.

Ibikorwa remezo birimo umuhanda, harimo abagenzi ndetse n'abacuruzi bacuruza mu bintu by'ikoranabuhanga, bambaye umwambaro uri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari ibinyabiziga bizwi nka moto n'imodoka.

Umuyobozi w'ikinyabiziga kizwi ku izina ry'ipikipiki, inyubako ifunze ndetse yubakishijwe amakaro ari mu ibara ry'umweru, yambaye kasike ndetse inyuma ye hicaye umu ushinzwe umutekano.

Abagabo babiri ndetse n'ikinyabiziga kizwi ku izina rya moto bari kukireba neza bagenzura ubuziranenge bwacyo, inyuma yaho hari igikuta ndetse n'ibikoresho bitanga ingufu z'amashanyarazi.

Uyu ni umugabo cyangwa se umunyonzi, ari ku igare, afite ahantu ari kuva ndetse n'aho yerekeza, ari ku igare ahetse ibitoki ndetse ageze hafi y'ikigo cy'amashuri.

Abaturage bari ku igare, bari mu muhanda, bahetse ibitoki ndetse igare ririho n'ibirango biri mu mabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bafite aho bava hari naho bari kujya.